Ikoranabuhanga mu kubitsa no kubikuza amafaranga, rirakomeje mu mabanki atandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Uburyo bwo kubitsa no kubikuza amafaranga kuri banki mu Rwanda byarorohejwe, buri muturage abasha kwigererayo, kandi agahabwa serivise nziza.

Kubitsa no kubikuza amafaranga hakoreshwa uburyo butandukanye mu gihugu cyacu harimo no mu buryo bw'amahanga bita wesitani yuniyoni.

Ikaragiro ry'amata rya Nyanza, rikomeje kubagezaho amata ndetse n'ibindi biyaturukaho, nka foromaje na yahurute. Muze mwihahire.

Ikigo cy'itumanaho cya eyateli, kibahaye ubutumwa bw'amafaranga magana atanu yoherejwe kuri konti yanyu ya eyateli mane.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Kwakira cyangwa kohereza amafaranga mu bindi bihugu bisigaye byoroshye ku muntu wese ubyifuza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Abakora umwuga mu isoko rya Nyarugenge wo gutwaza abantu, bakomeje gukora akazi kabo mu rwego rwo kwiteza imbere.

Iri ni isoko bacururizamo ibintu byinshi turabonamo abantu bacuruza n'abagura mu byo tubonamo, turabonamo imyenda, ibikapu bimanitse n'ibibiri hasi, amavarize tukabona inzitiramubu zimanitse n'ibindi byinshi mu isoko biba birimo.

Abantu batandukanye bakomeje gukora imirimo y'ubucuruzi bw'ibinyobwa bw'ibiribwa, ndetse n'ibindi bikoresho dukenera buri munsi mu rwego rwo kwiteza imbere.